Abana bari gukina mu kibuga. Gikikijwe n'ibiti. Ku buryo iyo bashatse gutaha, banyura mu muhanda, nubwo nta kaburimbo irimo. Ariko urabona ko ukoze neza.

Abana bicaye ku mukeka buri wese afite isahani irimo ibiryo, hakaba hari umubyeyi uri kubareberera kugira ngo abafashe aho bagira ikibazo. Bamwe bambaye impuzankano bajyana ku ishuri.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bari kwiga inyuguti aho biga alufabe bakava kuri a bakagera kuri zedi bicaye ku mukeka, bose inkweto bazikuyemo kugira ngo batanduza umukeka kandi ariwo bicaraho.

Abana bakiri batoya, yaba abiga amashuri y'incuke, cyangwa mu mashuri abanza, bahurizwa hamwe mu mudugudu, bagahabwa ifunguro. Mbere yo kurya bagakaraba n'amazi meza, ari mu ijage, ubundi bakabona kurya.

Inzu nini isakajwe amabati, ku ruhande hakaba akazu gato gasakajwe amategura, kazengurutswe n'urugo rukozwe mu miyenzi. Hagasigara imbuga abana baza gukiniramo bari kumwe n'ababyeyi.

Abana bakiri bato iyo bageze ku ishuri bariga ariko nyuma y'uko bamaze kugira ibyo biyungura mu bumenyi, Leta ibafasha kugira ngo banabone ifunguro, bakaririra ku ishuri.

Abana bateraniye hamwe bari kubyina biga n'indirimbo, hakaba hari kandagira ukarabe, kugira ngo urajya uva mu bwiherero ajye abona uko akaraba bitamugoye cyangwa mbere yo kurya nabwo babone aho bakarabira byoroshye.

Abana bakiri batoya, babateranyiriza hamwe bakabicaza ku mukeka. Bakabigisha, uturirimbo, bagatangiraya no kubigisha, kubara, no kuvuga, inyuguti. Hari umubyeyi ubibafashamo.

Abana bicaye hasi. Harimo umuntu mukuru wabahurije hamwe kugira abigishe. Hafi yaho hari ibigega by'amazi, hakaba n'inzu zizengurutswe n'ibiti by'ishyamba ry'intusu.

Isomero ririmo ibitabo by'ubwoko butandukanye, bipanze ku murongo ku buryo umuntu ushaka igitabo bimworohera kukibona, buri cyose gipanze bitewe n'isomo ryacyo.

Abana biga mu mashuri abanza, hari gahunda ibafasha kurya, ku buryo saa sita bagenda bagaterura ibiryo mu gikoni, bakabijyana ahabugenewe ho kurira bakarya, ubundi bagasubizayo ibikoresho bakoresheje.

Amabuye kimwemu bintu biboneka cyane mu Rwanda cyane cyane ayo bakoresha mu kubaka, ahantu henshi bakaba bakoresha nka fondasiyo mbere y'uko bazamura inzu ku gice cyo hasi bagakoresha amabuye kugira ngo bizere ko inzira izaba ikomeye.

Ibigo by'amashuri byigisha abana indi mirimo itandukanye, harimo nko gutera ibiti kandi ugasanga kuri ibyo bigo hashushanyije amashusho afasha abana kwiga nk'amakarita y'ibihugu cyangwa y'umugabane w'Afurika.

Ameza ariho ibikoresho byifashishwa kwiga ingero zitandukanye, harimo ingero z'uburebure, harimo isaha yifashishwa higishwa abana kubara isaha y'urushinge, hariho urushinge rugufiya rusa ubururu, hakaba n'urushinge rurerure rusa umuhondo.

Ikarita igaragaza umubumbe w'isi dutuye, ikaba iriho ibihugu byose, ikagaragaza ahantu hari inyanja n'ahari ibihugu, abana bayifashisha bari kwiga.

Ahantu abana bigira hakunze kuba hari amashusho kugira ngo bibafashe kwiga neza, n'ahiga ababana n'ubumuga bwo kutavuga bakoresha amarenga, hari ibimenyetso byabugenewe bakoresha.

Mu mihanda itandukanye mu Rwanda usanga harimo imodoka, imihanda myinshi irakoze bayishyizemo kaburimbo ariko hari ibice bimwe na bimwe usanga bikirimo ibitaka ariko ikaba imeze neza iyo imvura itaguye.

Ikigo cy'amashuri gisakajwe amategura. Kikaba gifite ahantu abana bakinira harimo n'ibyicundo n'aho banyura bari gutsuka. Abakobwa n'abahungu bose barahakoresha.

Ikigo cy'amashuri gifite ibice bimwe bishakaje amabati ya buresiyeri, ibindi amabati atukura, imbere hari imbuga irimo ikibuga cya Volley Ball abana bakiniramo.

Ibitabo byifashishwa mu mashuri abanza, mu kwiga imibereho n'iyobokamana bya muntu, bigakoreshwa n'abana bakiri bato, bakuramo ubumenyi bwabafasha gusobanukirwa cyane ibijyanye n'imibereho.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, nabo ikoranabuhanga ryabafasha baramutse barimenye hakiri kare, Leta yabahaye utumashini tubafasha mu kwiga ikoranabuhanga, kugira ngo batangire barihugukirwe hakiri kare.

Mu bice na bimwe by'icyaro uhasanga imihanda idakoze, ikaba iba irimo ibinogo, imvura yagwa amazi akarekamo, ku buryo abana kuhaca bibagora ndetse n'abantu bakuru bikabagora.

Abana biga mu mashuri abanza, biga inyuguti, ibihekane n'ibindi bitandukanye. Usanga baramanitse imbere cyangwa inyuma ibihekane, buri wese ahanyura akabisoma.

Abana bavuye ku ishuri ahantu biga hari ikibuga bakiniraho, bambaye uniforme hamwe y'umutuku abandi bambaye umweru na kaki, na Kiliziya ikaba ibakikije, ariyo ibafasha mu myigire ya buri munsi.

Ku nkengero z'amashuri, usanga bakunze kuhahinga ibiti kugira ngo bibafashe kubungabunga umwuka mwiza, abana bahiga bajye bahumeka umwuka udahumanye, ariko bashobora no kuhahinga ibihingwa byo kurya nk'ibigori cyangwa imbuto.

Abana iyo bageze ku ishuri bagira umwanya wo kwiga ariko bakagira n'umwanya wo gukina, usanga amashuri yabo akingishijwe inzugi zikozwe mu byuma, akagira na serile ku buryo iyo badahari barukinga ibintu basizemo ntihagire ubyiba.

Amakaramu y'ubwoko butandukanye. Harimo ay'ubururu, ay'umutuku, ndetse hakabamo na marikeri zifashishwa bandika ku kibaho, hakaba n'ifirimbi hafi aho ngaho. Byose bikaba bifasha mwarimu, mu gihe ari kumwe n'abanyeshuri.

Ubugeni ni bimwe mu bintu byahozeho kuva kera, kandi na n'ubu bigikorwa, aho usanga abantu bashushanya ibintu bigakundwa cyane, ayo mashusho bashushanyije bakayagurisha abantu bakayamanika mu nzu, cyangwa ahantu hahurira n'abantu benshi.

Ishuri riri mu intebe, abana bicara. Bambaye iniforume, abenshi, bafite amakayi, n'amakaramu, bakiga, mwarimu na we akajya ku kibaho, akabigisha.

Abana bafite mudasobwa bigiraho mu masomo yabo. Bakaba bicaye ku ntebe kandi bari mu ishuri ririmo sima hasi. Bafite n'ikibaho cy'umukara. Ikibazo bagize bakabaza mwarimu.

Abana bagiye kuvoma amazi ku kigega kugira ngo babashe kubona ayo kunywa n'ayo gukoresho mu buzima busanzwe, bambaye iniforume y'ubururu, abandi bafite n'imipira yo kwifubika.

Intebe abana bicaraho bari kwiga, ziri mu ishuri ripavomye na sima; abana iyo bamaze kwiga bashyira amakayi yabo imbere mu izo ntebe, ku buryo nta muntu wapfa kuyabona ngo ayibe.

Inzu yubakishije amatafari ya rukarakara, ubundi bakayitera igipande n'igishahuro kugira ngo ise neza. Ikaba isakajwe amabati. Imbere yayo hakaba hari ivomero rusange.

Mu bigo by'amashuri usanga hamanitse ibikombe mu biro by'umuyobozi. Biba ari ibyo baba baragiye batwara mu marushanwa atandukanye, iyo ari ikigo gikunda ibintu by'imikino, usanga harimo ibikombe birenze kimwe.

Abana bari munsi y'imyaka icumi, abenshi bakaba baba biga mu mashuri abanza, baba bafite ibikoresho birimo ibikapu kandi bakagerageza kwambara unforme, imyenda isa, impuzankano hasi no hejuru.

Igice gikorerwamo ubuhinzi n'ubworozi kirimo ahantu hororewe ingurube, hakaba hahinze imboga rwatsi. Ifumbire iva mu amatungo yororewe aha igafasha ibihingwa bihahinze kumera neza bayikoresha babifumbira.

Ikigo cy'amashuri gifite inzugi zisize irangi ry'ubururu, rikagira amabati afite irangi ry'icyatsi ndetse n'andi y'umutuku, ku ruhande hariho ahantu amazi anyura ku buryo atajya mu ishuri.

Mwarimu afasha abanyeshuri, iyo abonye bananiwe abashyira hanze y'ishuri akaba abigisha indirimbo, bakaba baruhura mu mutwe kandi baniga.

Abana b'abakobwa bavuye kwiga, bambaye iniforume y'ubururu, biga ku kigo kiriho amategura ntago baratera imbere ngo bahashyire amabati, bafite ubusitani burimo ibintu bitandukanye harimo n'ibyatsi.

Mu bice bitaratera imbere, bakoresha ikibaho mu kwiga. Mwarimu akandikaho ibyo ashaka ko abana bamenya nk'inyuguti, ubundi na bo bakajya bahora bazisoma kandi bikabafasha kuzimenya vuba.

Uruzitiro rukozwe mu biti, imiyenzi n'imwe mu bintu byifashishwaga cyane mbere yuko abantu batangira kujya bubaka uruzitiro rugizwe n'amatafari, ariko ubu bigenda bigabanuka.

Mu bigo bihurirwamo n'abantu, bahasiga parikingi, kugira ngo abantu bafite imodoka, bajye babona aho bazishyira, ntizibe ziri kunyagirwa, n'ubwo usanga hari aho baziparika hanze, imvura yagwa ikazinyagira.

Abana biga mu mashuri abanza iyo bamaze kwiga bagira umwanya bagakina, niyo baba batari mu kibuga cyabugenewe, ahantu henshi banyura bagenda bahakinira kandi bakabikora bafite n'ibikoresho bifashisha biga nk'amakayi cyangwa amakaramu.

Abana biga mu bigo by'amashuri baba bambaye impuzankana; umweru na kaki hasi, bajya babahuriza hamwe ku murongo bagatozwa indangagaciro za Kinyarwanda.

Ibigo by'amashuri biba bifite abarimu, ariko bikanagira umwanya wo kureka n'ababyeyi bakaza kureba uko abana biga, kandi hakaba hakikijwe n'ibiti, kugira abana bajye bahumeka umwuka mwiza.

Abanyeshuri bambaye impuzankana y'umweru na kaki hasi, bateranye bajya kureba ahantu hari umusaraba wa Yezu, bitewe n'imyemerere itandukanye, abantu bashobora guhurira ahantu nk'aha kugira ngo basenge.

Abana b'abakobwa, biga ku kigo cy'amashuri bambara amasogisi y'umweru, inkweto z'umukara, amashati y'umweru n'amajipo ya kake, baba bambaye furari z'abasikauti, bose bakaba bahagaze ahantu hari amapave.

Abana bambaye amashati y'umweru n'amajipo ya kaki, bari ku kigo gifite amapave hasi, ikigo cy'ishuri gifite idarapo ry'igihugu kandi hejuru y'inzu hasakajwe amabati y'ubururu.

Mu bice byinshi bitandukanye by'igihugu, usanga byarateye ubusitani, ku buryo abantu bahanyura n'abahagenda bahumeka umwuka mwiza, bitewe n'ubwo busitani, haaba higanjemo ibiti, ibyatsi by'ubwoko butandukanye n'indabo.

Abanyeshuri bagira igihe bakabazwa ibyo bigishijwe, bikitwa ikizami cyangwa isuzumabumenyi, iyo bari gukora iryo suzumabumenyi baba bacecetse nta we ureba ku rupapuro rwa mugenzi we, mwarimu ari kureba ko ntawugerageza kureba kuri mugenzi we.

Abana b'abakobwa bambaye amajipo bari kujya ku ishuri, bakagenda bagana ahantu hari ababyeyi ku buryo nibava mu muhanda bahita binjira mu kigo cy'amashuri.

Bamwe mu banyeshuri bakoresha igare bajya kwiga, aho yambaye inifomo ye ishati y'umweru n'ipantaro ya kaki, agashyiramo n'inkweto nziza, ubundi agashyira igare mu muhanda akarinyonga akajya kwiga.

Mu ishuri hari ikibaho cyanditseho Icyongereza bakoresheje ingwa y'umweru, hari abanyeshuri ndetse na mwarimu bakoresha icyo kibaho n'ibicyanditseho kugira biyungure ubumenyi.

Abanyeshuri bateraniye ku meza amwe, mwarimu wabo yicaye ku ntebe yambaye n'agapira k'umuhondo, harimo n'ubana n'ubumuga wicaye mu ntebe asanzwe agendamo ariko nawe ari kumwe n'abandi.

Ikipe ya Volleyball iri gukina, bose bambaye impuzankano isa, umwe yambaye nimero umunani, undi cumi na rimwe, cumi na kabiri, na cumi na gatanu, hari n'abafana bari ku ruhande bari kubafana.

Hari ibigo by'amashuri byinshi, usanga ibyo mu mujyi bikikijwe n'umuhanda wa kaburimbo, ku buryo abana bava mu kigo bakagenda bitabagoye mu gihe bari gusubira iwabo.

Kudoda ni bimwe mu bintu, bitunze Abanyarwanda. Aho usanga abana bakiri batoya, bacikirije amashuri bashobora kujya kwiga kudoda, kandi bikabafasha mu kwiteza imbere. Na leta ikabibafashamo ibaha imashini zidoda.

Ahantu hari igipangu gikingishijwe ibati . Hakaba hari amasinga azana umuriro , n'amapoto akaba ari hafi y'urugo , kandi imbere y'inzu ye hakaba hashashe amabuye mu muhanda , ku buryo imvura idatuma bahura n'ibyondo.

Mu bigo ahantu harara abanyeshuri ntago byoroshye ko wahashyira igitanda kimwe, usanga barakoze ibitanda bigeretse umuntu umwe akaryama hasi, undi akaryama ku gitanda cyo hejuru kandi bigatuma bose babona aho baba bitabagoye.

Ahantu hatandukanye hari ibigo bya Leta cyangwa ibigo byigenga ariko bihurirwamo n'abantu benshi, bahashyira Idarapo ry'Igihugu rigizwe n'amabara atatu umuhondo, icyatsi kibisi n'ubururu n'izuba mo hagati.

Mwarimu ari gukosora impapuro, akoresheje ikaramu itukura, afite n'andi makayi menshi, harimo za logisitiri, hakamo n'amakayi afite impapuro magana abiri, hakaba n'ibitabo yifashisha yigisha. Ibyo byose birambitse ku meza.

Imodoka zigenda ziyongera mu Rwanda, aho usanga nko mu rusengero cyangwa ahantu hahurirwa n'abantu benshi haparitse amamodoka menshi, bitewe n'uko abantu bagenda babasha kugura imodoka ku mafaranga atari menshi cyane.

Mu ishuri ni hamwe mu hantu hahurira abantu baje kwiga, bakaza bambaye iniforume abahungu n'abakobwa, bakagira na mwarimu ubafasha mu kwiga no gusobanukirwa ibyo batumva.

Mu bigo bitandukanye usanga bafite ibibuga harimo ibya Basket, ibya Football, ibya Volleyball n'ibindi, ariko cyane cyane usanga Basket ari yo yiganje kuko kubaka ikibuga cyayo bitagora.

Imbere y'ikigo cy'amashuri hari amapave kugira ngo barwanye ko igihe imvura yaguye hajya haza ibyondo. Hari abana bavuye mu ishuri bambaye impuzankana kandi basa neza. Ikigo cy'amashuri na cyo gifite igipangu gituma abantu bose babonetse batinjiramo.

Mu Rwanda hari ibigo by'amashuri bitandukanye, ibyinshi biba bifite igipangu kinini cyinjiramo ku buryo imodoka intoya n'inini zishobora kwinjiramo kandi bakagerageza gushyira amapave imbere y'ikigo kugira ngo birinde ko imvura yazongera umwanda.

Abanyeshuri biga ku kigo bateraniye hagati mu mbuga, bari gukora imyitozo ngororamubiri, bamwe bambaye impuzankano y'ikigo, abandi bambaye imyenda ya siporo.

Abana bateraniye hamwe. Abantu bashinzwe ubuzima baje kubaganiriza. Abana bafite ibibazo barahaguruka bakabibaza kugira babashe gusobanukirwa ibijyanye n'ibyo babaganirijeho.

Ubwubatsi ni kimwe mu bitunze abanyarwanda benshi. Abanyeshuri na bo barabyiga, mu mashuri yisumbuye. Aho bambara ibisarubeti, ubundi bagafata umwiko, bakajya kuba bubaka inzu zitandukanye, bakoresheje imunyu.

Ibitabo birunze mu kabati mu isomero kugira ngo abaje bitabagora kumenya ubwoko bw'igitabo bashaka aho giherereye, haba hari udupapuro twanditseho ubwoko bw'igitabo, uje kugishaka na we bikamworohera kukibona.

Ikigo cy'amashuri cyitwa Ecole St Jean Bosco, kikaba gifite icyapa kigaragaza ko ari cyo ugezeho, kikaba gifite n'igishushanyo kigaragaza ibyo gitanga n'idini gishamikiyeho.

Mu bigo by'amashuri, hari igihe bahuriza abanyeshuri hamwe bakabicaza hanze, bakabaganiriza. Bakabagira inama mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, cyangwa izindi nama zibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abanyeshuri bari kumwe n'abarezi babo bahuriye ku kigo gifasha mu gutegura ejo hazaza h'abana. Bakaba bose bahahuriye harimo n'abazungu kugira bafashe abana bakiri bato gutegura ejo hazaza heza.

Mu bigo bitandukanye by'amashuri higa abana bambaye impuzankano. Iyo bibaye ngombwa abayobozi b'Umurenge cyangwa b'Akagari bahegereye, baza kubigisha ibindi bintu biterekeranye n'amasomo.

Mu bigo by'amashuri basanga bateza imbere imikino itandukanye nka volleyball, football n'ibindi, aho usanga ibibuga bya volleyball ndetse na basket byo babishyira hafi y'amashuri ntibibangame, btandukanye n'ibya football biba biri kure.

Abana bateraniye hamwe imbere y'ishuri bambaye iniforume amashati y'umweru, amapantaro y'umukara ku bahungu n'amajipo y'umukara ku bakobwa, bambaye n'imipira y'imbeho idozwe mu budodo, abarimu babo nabo bari aho ngaho hafi yabo.

Abanyeshuri bajya bagira umwanya bakibumbira hamwe bakajya gusura bimwe mu bice bifite amateka, yaba nyobokamana cyangwa amateka yerekeranye n'Igihugu.

Abanyeshuri bo mu Rwanda basigaye bigishashwa ikoranabuhanga bakiri bato, aho usanga abana biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye baratangiye kumenya byinshi mu bijyanye no gukoresha mudasobwa.

Intebe zifasha abana kwiga, ziba zifite ahantu ho kwicara ariko zikagira n'ahantu babika amakaye, ku buryo niyo asohotse agiye hanze, amakaye ayasigamo imbere asanga nta kibazo yagize.

Abana bicaye imbere y'ishuri. Hakaba hari umurima bari guhingamo ubusitani kugira ngo ntihakagire ibyondo biba imbere y'amashuri. Igihe bibaye ngombwa bajye babona aho bicara bari kuruhuka.

Abanyeshuri, biga mu bigo, bitandukanye, bajyayo bambaye impuzankano. Cyangwa iniforume. Usanga abenshi, bambara n'imipira y'imbeho, mu gihe cy'imvura. Kugira birinde ubukonje.

Urubyiruko ruteraniye hamwe bari kwiga kudoda bakoresheje imashini, bamwe bafite ibitambaro by'umweru, abandi na bo bari kugerageza kudoda ibintu bitandukanye, bishobora kuba inzira y'amajyambere.

Laboratwari irimo ibikoresho byifashishwa mu kwiga ibice by'umuntu, bakagaragaza imbavu, amagufa yo ku bice byo hasi, harimo n'amano ndetse n'ibindi bice by'umubiri bigize amagufa.

Ikigo cy'amashuri kiba kigizwe n'ibyumba birenze kimwe, ku buryo abana biga mu myaka itandukanye bose babona aho bigira kandi bigatuma biga bisanzuye, bakanagira imbuga imbere y'amashuri baruhukiramo.

Abana bari ku ishuri ahantu hari inyubako igeretse rimwe, bakagira ubusitani hanze y'ishuri ku buryo mu gihe cyo kuruhuka bavuye mu masomo bifashisha ubwo busitani bakaba babuhagazemo cyangwa babwicayemo baganira.

Abarezi cyangwa abo twita mwarimu, ni bamwe mu bantu babumbatiye inkingi y'uburezi, usanga yifashisha ikibaho n'ingwa, cyane cyane iz'umweru ari kwandika, ubundi abanyeshuri nabo bagakoporora ibyo yanditse mu makaye yabo.

Icyumba kibamo umuntu harimo matera iriho amashuka na kuvurori hasashe neza, hakaba harimo n'umusego ku ruhande hari ravabo imufasha gukaraba.

Abantu bakora ibintu bijyanye no mu nganda cyangwa n'ibindi bikoresho bishobora kwangiza uruhu, bakunda kwambara ga kugira ngo birinde ko iyo miti yabangiriza intoki.

Umuzungu ahagaze imbere y'inzu ya etage iriho idarapo igihugu cy'u Rwanda, ikagira ibiti biyiteye iruhande, ikagira n'irindi darapo.

Ikigo cy'amashuri abanyeshuri bateraniyeho, gifite etaje hejuru, gifite amabati atukura, imbere yaho hakaba hari ubusitani, hakaba hari n'inzira zikoze neza zirimo amapave abantu banyuramo.

Ikoranabuhanga ni rimwe mu bintu biri gutera imbere cyane mu Rwanda, aho usanga ku bigo by'amashuri bafite amasare abamo computer afasha abanyeshuri mu kwihugura mu bijyanye n'ikoranabuhanga, hakagira n'umuntu ubafasha.

Umucanga ni bimwe mu bintu bifasha mu kubaka cyangwa bigakoreshwa mu kubumbabumba ibikoresho birimo imitako, rero ahantu bakora ibintu by'ubugeni umucanga barawifashisha.

Ikigo cy'amashuri gifite ibara ry'umuhondo, kikaba gifite amadirishya akozwe muri metarike. Kikaba gikingishijwe ibirahuri kandi ukaba ubona ko gifite isuku, hakaba harimo n'intebe abantu bashobora kwicaraho.

Ahantu hari gutera imbere haba hari amazu ageretse inshuro irenze imwe bakayita etaje, uruhande rwaho bakunze kubatera ibiti kugira ngo abantu bagenda muri ayo mazu maremare bajye babona umwuka mwiza bahumeka.

Mu bigo bihuriyemo n'abantu benshi nka za Kaminuza, urugero nka Kaminuza y'u Rwanda, usanga hari ahantu habugenewe hakoreshwa nk'ubwiherero cyangwa aho kogera, ku buryo abantu bahateraniye batagira ikibazo cy'ubwiherero.

Mu bigo by'amashuri usanga harimo amapave ahantu hanyurwa n'abantu kugira ngo birinde ko ibyondo byajya byanduza abantu bahanyura kandi bakanahatera ibiti mu mpande zose kugira ngo babungabunge ubuzima bw'abantu bahatuye.

Kaminuza y'u Rwanda igiramo amashuri kugira ngo abantu bahaje bwa mbere batayoba, bashyiraho ibyapa bigaragaza inzira zijya ku mashuri kandi ni ingirakamaro kuko bituma umuntu amenya inzira imugeza mu mashuri byoroshye.

Ahantu hahurira abantu benshi ukunda kubasanga za kizimyamoto, abantu bamwe na bamwe batazi kuzikoresha, ariko ibigo bishinzwe kuzimya inkongi bijya bifata umwanya bikajya kubasobanurira ukuntu zikoreshwa, kugira ngo bazazifashishe mu gihe haba habaye inkongi.

Abanyeshuri biga ubumenyi butandukanye bagira umwanya wo kujya muri laboratwari. Bakagenda bambaye amataburiya, kugira ngo ibikoresho bakoresha bitaza kubanduriza imyenda.

Iyo abantu bamaze kumesa, banika imyenda yabo, ahantu hagera izuba. Iyo nta migozi ihari, bashobora kuyanika hasi muri pasiparumu, cyangwa ku byatsi, ariko bisa neza kugirango itandura.

Abantu benshi usanga batuye ahantu hatari hanini ku buryo ahantu hateretse matera n'ahantu bifashisha bakora imirimo yabo ya buri munsi nko kwiga n'ibindi, byose babikorera mu cyumba kimwe.

Ubusitani bukikije inzu ifite gete abantu binjiriraho, imbere y'inzu hakaba nta byondo bihari ahubwo bakaba barahashyize amapave. Ku buryo n'iyo imvura iguye ubona hasa neza.

Iniverisite y'u Rwanda, hamwe mu hantu higa Abanyarwanda benshi, abatsinze neza amashuri yabo, abenshi bakahabona buruse, bidakuyeho ko hari n'abanyamahanga, baza kuhiga, kubera urwego imaze kugeraho.

Isomero ni kimwe mu bikorwa bikunze kuboneka ahantu hari amashuri, yaba abanza, ayisumbuye, cyangwa kaminuza, kugira ngo bifashe abanyeshuri kujya gutirayo ibitabo, ubundi bagasoma bakiyungura ubumenyi.

Icyumba kiraramo umwana w'umukobwa, gisashe neza telefone irambitse ku buriri nawe ahagaze imbere y'akabati abikamo imyenda, ivarisi ye imanitse hejuru y'ako kabati.

Ahantu hari amasomero rusange, usanga hari n'ibikoresho byifashishwa mu ikoranabuhanga nka mudasobwa, ku buryo abantu bagiye mu isomero no kubona uko bakoresha za mudasobwa biborohera.

Intebe, amajerekani, keto, igikombe, bimwe mu bintu bikenerwa n'abantu batuye ahantu rusange, ugasanga babikorera mu gace gato, kandi bikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibigo bifasha mu guteza imbere ubumenyingiro, harimo ibigo nka bya IPRC. Hari nyinshi zitandukanye, hari nk'iyitwa Kitabi, ikaba yigamo abahungu n'abakobwa bose bifuza kongera ubumenyi.

Abantu bateraniye hamwe buri wese afite mudasobwa ye, akaba afite n'amazi amufasha mu gihe ayakeneye, bakagira imigozi izana interineti ku buryo bayikoresha biboroheye.

Ahantu hari ibitanda abantu barara. Ibitanda bikaba biriho matera zisashe neza, n'amashuka, ndetse n'ibiringiti. Hakagiramo n'ameza barambikaho ibikoresho bifashisha.

Ikigo gifite inzugi z'umutuku, harimo selire kugira ngo uw'imbere ajye abona uko akingura, n'uri inyuma abone uko akingura, imbere hateretse intebe ikozwe mu rubaho, ariko abantu bashobora kwicaraho barenze umwe.

Icyumba kirimo igitanda kigeretse aho umuntu umwe arara hasi, undi akarara ku cyo hejuru, hose hariho matera kandi zisashe amashuka na kuvurori, hakaba akabati gateretseho hejuru inkweto n'ivarisi.

Abanyeshuri biga ubuganga muri kaminuza y'u Rwanda bagira ihuriro bise Medisare, rikaba ribafasha kugira ibikorwa bakora bibateza imbere cyangwa bashaka gufasha abaturage kubegereza serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Ahantu hahuriye abantu benshi; ukunda gusanga hari imodoka kubera ko bimwe mu bintu bifasha mu gutwara abantu n'ibintu byabo. Uko iminsi igenda, zigenda ziyongera zikaba nyinshi, kubera ko abantu bagenda bagira ubushobozi bwo kuba bazigura.

Ibigega bibikwamo amazi avuye ku mabati bakayarinda, ko yajya mu mirima y'abaturage akayangiza, ahubwo akifashishwa akoreshwa n'abatuye mw'ayo mazu kurusha kujya gukoresha amazi bakuye kure.

Ibitabo kimwe mu bintu by'ingenzi, bifasha abantu mu gusoma, mu kwiyungura ubumenyi, mu kwiga. Ahantu rero bibitse, muri librari. Hadakunze kuboneka cyane, hakaba bikabafasha abantu mu kujya gusoma bihugura.

Mu bigo by'amashuri bitandukanye, uhahurira n'abanyeshuri bihuta, bagiye mu masomo yabo ariko ukahabona n'abandi bari kuruhuka, bari gukoresha interineti y'ibyo bigo.

Itara ryo ku muhanda nimwe mu bintu bigenda bitera imbere kandi bifasha abantu mu masaha ya n'ijoro, ku buryo ahantu hanyura abantu benshi baba bahabona yaba ku manywa cyangwa n'ijoro bifashishije urumuri rw'iryo tara.

Ishyamba ni imwe mu bikorwa bigaragara ahantu hatandukanye. Hari ababifashisha bakabikora nk'ubusitani. Hagati bakagenda bashyiramo imihanda ku buryo abantu babyifashisha, baritemberamo, baruhura ubwonko.

Ishuri ririmo intebe z'ubwoko butandukanye: Harimo iza pulasitike, hakabamo n'izindi abantu begura akabona kwicara. Rikikijwe n'amadirishya atariho amarido hejuru hakaba harimo parafo.

Abantu benshi basobanukiwe ibijyanye n'ikoranabuhanga, aho baba bazi gukoresha mudasobwa na mwarimu uri kwigisha akaba afite iye, bigatuma babasha kwiga kandi vuba.

Imodoka za coaster zifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu, ushobora gusanga ari iya campany ikora ibijyanye no gutwara abantu n'ibintu cyangwa ikaba ari iy'ibigo nka za Kaminuza cyangwa amashuri yisumbuye.

Ikigo cya IPRC Kitabi, kikaba cyigisha ibijyanye n'ubumenyingiro, hakaba hari ishusho ry'inzovu iri iruhande mbere y'uko ucyinjiramo, hakaba hari n'imodoka itwara ba mukerarugendo.

Abantu bibumbiye hamwe, bashobora gukora igikorwa cyo kwegera abaturage, bakabegeza serivisi zijyanye n'ibyo basanzwe bakora, urugero nk'abo muri RP bakegera abaturage babazaniye serivisi zabo.

Ahantu abantu bigira, haba hakenewe ibikoresho bibafasha mu kwiga. Muri ibyo harimo, porojegiteri, hakabamo tereviziyo, hakabamo n'ikibaho cy'umweru, gituma ibyo bapojezigitinzeho, bigaragara neza.

Ahantu abantu baba mu rugo, usanga abenshi bafite aho bashyira ibikoresho nk'amavuta, ibikoresho by'isuku, ndetse bakajyira aho babika imyenda mu mavarisi, bakagira ahantu bayamanika hejuru, ku buryo nta kibazo agira.

Ameza ateretse imbere y'inzu, inzu ifite icyapa kiriho ahantu abantu bashobora kuza bakaruhukira, hegeranye n'inzu ifite amabati atukura, hari ibiti bihakikije, hari amasima hasi ku butaka.

Mu bigo bitandukanye bagira imodoka zifasha gutwara abanyeshuri. Bakanagira imodoka zifasha mu gutwara ibikoresho by'ishuri harimo nk'intebe baba bagiye kugura cyangwa ibindi bikoresho bikenerwa mu kigo.

Amasomero yiganje mu bice bitandukanye by'Igihugu. Cyane cyane ariko akunze kuboneka mu bigo by'amashuri, aho usanga ibitabo by'imibare, ibarurishamari n'ibindi abanyeshuri biga, ku buryo bibafasha mu myigire yabo.

Mu bice bimwe na bimwe uhasanga inzu zigizwe n'amagorofa menshi, ku buryo kuzamuka ugera mu yo hejuru bakoresha esanseri kandi ugasanga abantu bagenda aho birabafasha.

Imbere y'ahantu hahurira abantu benshi n'amashuri haba hateye ubusitani cyangwa ibiti bifasha mukubungabunga umwuka mwiza bikaba ari ingirakamaro cyane ku bantu bagenda muri ako gace.

Abanyeshuri bibumbiye hamwe, bose bafite amakayi n'amakaramu, bakaba hari umwarimu uri kubafasha mu kwiga ibintu bishya, hakaba hari n'ibitabo hafi yabo, kuburyo ugira ikibazo.

Inzu igeretse kabiri, ikaba ifite ama esikariye afasha abantu bashaka kujya muri etaje yo hejuru kuzamukiraho, akagira ibyuma biri ku ruhande rwayo ku buryo umuntu atahita agwa.

Kimwe mu bintu bifasha abantu mu kwiyungura ubumenyi, ari byo ibitabo biba bifasha cyane cyane abanyeshuri, kwiga amasomo atandukanye nk'imibare, icyongereza, igifaransa n'andi masomo atandukanye.

Icyumba cyo kuraramo kiriho matela ishashe neza na covre-lit, hakabaho umusego na supanete muri icyo cyumba ngo biririnde kurumwa n'imibu, hariho n'ibikapu birimo ibikoresho.

Ikibaho kiriho imibare, abanyeshuri baba bize, bakaba bacyanditseho bakoresheje ingwa y'umweru, hejuru hari purafo igaragaza ko nta bintu byava ku ibati ngo bihite bigwa mu ishuri.

Agace gahinzemo insina ziri hagati mu mazu y'abaturage, kakaba ari agace k'icyaro kataratera imbere, ariko haruguru hakaba hari inzu ya etaje igeretse inshuro nyinshi, ubona ko ho hateye imbere.

Bimwe mu bintu bigaragaza ko umuntu yateye imbere ni uko aba aba ahantu harimo ibikoresho byinshi bitandukanye akenera, haba harimo itara azimya bitamusabye kubyuka, hakaba hari uburiri buriho umusego, hari n'ahantu yifashisha ashyira inkweto ze.

Kuko iterambere rigenda ryiyongera, abantu benshi, batangira kujya bakoresha, kamera zifashishwa badahari cyangwa bahari. Zireba abagenda mu gace, ugasanga inzu yuzuyemo amakamera, aho abafasha mu gucunga umutekano.

Mu Rwanda hagenda hubakwa inyubako nshya zitandukanye, zifite ikoranabuhanga, aho usanga harimo televiziyo, hakabamo intebe z'ubwoko butandukanye zifasha abantu mu gihe bicaye kuba bava aho bari bakajya ahandi badahagurutse.

Urubyiruko rwinshi rumaze gusobanukirwa ibyo gukoresha mudasobwa, ku buryo usanga bahuriye ahantu hamwe hari interineti bari kuzikoresha mu bijyanye no kumenya ubumenyi butandukanye.

Projecteur imwe mu ikoranabuhanga rifasha abantu, cyane cyane aho bigira. Ku buryo bacomekaho imashini, ibiri mu mashini bikagaragarira abantu benshi, kubera ko biba bigaragara ku gikuta kinini.

Amashuri afite intebe zifatanye n'ameza yazo, ku buryo umuntu uzicayeho kuhandikira bimworohera, hakaba hariho amarido ku madirishya kugira ngo igihe hari izuba ryinshi cyangwa badashaka ko abop hanze bababona, bagashyiraho ayo marido.

Abanyeshuri bambaye itaburiya, bambaye na ga mu ntoki, bari muri raboratwari, bagenda bareba ko ibyo biga koko bashobora kubikora bikaba byo, harimo n'abandi bari kurebera uko bagenzi babo bakora.

Ubusitani bukikije Kaminuza, ahantu bahinze ibiti bitandukanye, bifasha mu kurinda ikirere ko cyakangizwa imyuka mibi iva mu nganda n'ibindi, ku buryo abantu biga muri Universite bahumeka umwuka mwiza.

Imbere y'ibikorwa rusange na za kaminuza, imihanda, amavuriro bakunze kuhashyira ruhurura zitwara amazi ava muri ibyo bigo, akanyura ku mpande ahantu habugenewe ku buryo atangiriza ibikorwa by'abaturage.

Umuhanda urimo amapave, ku buryo iyo imvura iguye hatandura kandi wahareba ukabona hasa neza, ukaba ukikijwe n'ubusitani ku ruhande, hakaba n'amazu ageretse rimwe afite amabati, ku buryo ubona hasa neza.